Inzu nziza cyane ishuri ryigishirizwamo abana b'inshuke, iruhande rwayo hariho ibikinisho abana bifashisha baruhuka ndetse baniga gusabana na bagenzi babo mu gihe cyo kuruhuka.

Mu ishuri ryiza cyane ryigishirizwaho abanyeshuri biga amashuri y'inshuke bambaye inifomu igizwe n'amashati y'umuhondo ndetse n'amajipo y'ubururu aho bari kumwe n'abarimu babo mu kibuga bakina imikino itandukanye.

Inyubako imenyerewe mu Rwanda nk'igicumbi, yiganjeho inyandiko zigaragaza umuco na kirazira z'uyu mudugudu. Ni byiza ko ibi byapa bifasha abaturage kumenya gusoma neza ndetse bagakurikiza umuco na kirazira byabo.

Ibikoresho bitandukanye byiganjemo utwuma abana bicaramo bumva iminyenga, ndetse bitatse amabara menshi atandukanye. Abarimu bigisha abana b'incuke, barimo babyifashisha, bigisha abana binyuze mu mikino ndetse no kumenya amabara yabyo.

Ni ibikoresho abarimu bigisha abana b'inshuke bifashisha kugira ngo bahugure abana kumenya ibikoresho, harimo amabara ndetse no kumenya inyamaswa z'ishyamba. Harimo igikoresho gikoze nk'ingagi ndetse n'ikindi kimeze nk'agapusi.

Ni ibishushanyo bitandukanye by'utunyamaswa duto duto byifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke, ibi byifashishwa mu gusobanurira abana ku bigendanye n'inyamaswa. Ni byiza kwigisha abana tubereka ibimenyetso kugira ngo babashe kubanguka mu bwonko.

Ibishushanyo bitandukanye, birimo udukombe, uducupa, impapuro, bigizwe n'amabara menshi atandukanye, umukara, icyatsi, ubururu, umweru, umuhondo, byifashishwa n'abarimu bigisha abana b'inshuke, babasobanurira amabara abaho.

Ni ishuri ryigishirizwamo abana b'inshuke hagaragara ikibabi cyanditseho amagambo agaragaza amazina agize ikibabi k'igihingwa, ni byiza kwigisha abana b'inshuke twifashishije ibimenyetso kuko bituma babyumva kurushaho.

Ni umwana muto cyane uri kwiga kwitoza kwandika inyuguti zitandukanye ku kibaho, wiga mu mashuri y'inshuke. Ni byiza ko abana biga mu mashuri y'inshuke bahabwa umwanya uhagije wo kwikoresha imyitozo kugira ngo babashe gutera imbere mu bwenge.

Mu ishuri ryishirizwamo abana b'incuke, aho hari mu gishushanyo cy'imodoka abarimu bigisha abana b'incuke bifashisha babasobanurira ibice bigize imodoka, ni byiza ko twigisha abana tubereka ikimenyetso kugira ngo basobanukirwe.

Agacupa keza cyane k'umutuku, gapfundikije umufuniko w'umweru ndetse kariho n'ururabo rwiza na rwo rutukura kuri uwo mufuniko, abarimu bigisha abana b'inshuke bakifashisha, bigisha abana ibipimo bapimisha ibisukika.

Mu ishuri ryigishirizwamo abana b'inshuke rifite ubusitani bwiza burimo ibiti ndetse n'ibikoresho abana bifashisha mu gihe cyo kuruhuka, rishushanyijeho ibihingwa bitandukanye ndetse n'ibindi bishushanyo bifasha abana gukanguka mu bwenge.

Iki gikoresho giteye nka moto ariko ni cyo bakoresha bigisha abana biga muri garidiyene, biragaragara ko giteretse ahantu heza ni cyo abarimu bigisha garidiyene bashobora kwifashisha bigisha abana bato b'inshuke.

Ni ishuri ribanza ryigishirizwamo abana b'amashuri yisumbuye, rihanditsemo igipapuro gishushanyije ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abarezi mu gusobanurira abana ibigendanye n'imibare ndetse n'ibishushanyo baba bagomba kwiga.

Ni inzu nziza cyane yubatse isakaje amabati atukura ndetse iruhande rwayo hakaba hari impyisi. Abarimu bigisha abantu mu mashuri abanza, babyifashisha basobanurira abana ibijyanye n'inyamaswa z'agasozi ndetse n'imiturire.

Ni ikigo k'ishuri ryisumbuye cyubatse neza cyane ndetse inyubako zaryo ni igorofa, gikikijwe n'ubusitani burimo indabo nziza cyane kandi iruhande rwaryo hari icyapa cyanditseho izina ry'iryo shuri ku buryo uwahageze wese ahita abibona.

Ni icyapa kinini cyane cya gate y'ikigo cy'ishuri cyanyanditseho amagambo agaragaza ko iryo shuri ryigiramo abanyeshuri, ni byiza ko tugira ibirango kugira ngo abashaka kuyoboka ibikorwa byacu babimenye bitagoranye.

Ibikoresho bitandukanye byiganjemo ibishushanyo byifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri abanza mu gusobanurira abana ibyo babigisha.

Ni inyubako nziza cyane y'amashuri yigishirizwamo abana biga mu mashuri abanza habereye igikorwa cy'umukino aho abanyeshuri bose bakikije ikibuga bareba.

Ni igikoresho cy'akabogisi tuzi nka matematikali, kibamo amarati, amakereyo ndetse n'utwuma ducishwa uruziga, kifashishwa mu kwigisha abana mu mashuri abanza imibare.

Ishuri ryubatse ahantu ho muri santire rya pirimeri bigaragara ko ari inyubako imaze igihe kirekire iriho inzugi z'ubururu ndetse n'amabati asa n'ashaje, ni byiza ko ryavugururwa kugira ngo uburezi bukomeze gutera imbere.

Abarimu bigisha mu mashuri abanza, bashobora kwifashisha bino bikoresho bitandukanye, harimo imbuto imeneke, inyanya kugira ngo bifashe abana kumenya imbuto zitandukanye.

Ibikoresho byifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri abanza, harimo utubogisi turimo udukoresho abana bifashisha babara ndetse n'utundi dupapuro twanditseho inyuguti zitandukanye zifasha abana kumenya gusoma no kwandika.

Ni ishuri rigari cyane, rigizwe n'imiryango itandukanye, risakaje amabati y'ubururu. Iruhande rwaryo hari ubusitani, burimo ibiti byiza bitandukanye, abana biga mu mashuri abanza ni ho bigira, cyanecyane igihe cyo kuruhuka, bicara mu busitani.

Ishuri ribanza ryubatse muri centere nziza cyane. Iruhande rwaryo hari ubusitani ndetse n'ubuhinzi bw'urutoki.

Ni igikoresho cyifashishwa mu kwigisha abana biga mu mashuri abanza mu gihe baba bari kwiga gushushanya ibishushanyo bitandukanye nk'uruziga.

Ibikoresho by'amabara atandukanye byiganjemo amarati, amakereleyo, amakaramu ndetse n'ibindi bitandukanye bigizwe n'amabara y'ubururu n'umundo, ibyatsi, byifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri abanza.

Ni umwarimu wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru ndetse n'amataratara. Yigisha abana mu mashuri abanza na bo bicaye ku ntebe zitandukanye, yabahaye imyitozo arimo anezezwa no kubakosora, areba ko bumvise isomo yabigishije.

Ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye imifomo igizwe n'amashati y'umweru ndetse n'udupfukamunwa, bari gukoresha mashini biga isomo ry'ibijyanye n'ubumenyi n'ikoranabuhanga mu buzima bwa buri munsi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bari mu ishuri bambuwe udupfukamunwa, bakurikiye ibyo umwarimu abigisha kandi buri umwe afite mashine, aho bari kwiga ibigendanye n'ubumenyi n'ikoranabuhanga hifashishijwe mudasobwa.

Ishuri ryisumbuye ryigishirizwamo abanyeshuri mu urubyiruko biganjemo abasore n'inkumi, bambaye inifomo igizwe n'amashati y'ubururu ndetse n'imipira y'ubururu, bari kwiga bakurikiye ibyo umwarimu asobanura imbere ku kibaho.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye inifomu nziza cyane, amashati y'umweru, ku bakobwa amajipo ya kaki ndetse n'amapantaro ya kaki ku bahungu, bakoranirijwe ahantu heza cyane mu kibuga, barimo baraganirizwa n'abayobozi babo, ku bijyanye n'amategeko n'amabwiriza by'ishuri.

Ni ikigo k'ishuri ryisumbuye aho cyakoranirije hamwe abanyeshuri baganira n'abashyitsi babasuye ku ngingo nyinshi zitandukanye, bateze amatwi kandi bishimiye kuganira n'abashyitsi babasuye bicaye muri jaride y'ikigo k'ishuri.

Ni inyubako y'umurenge yiganjeho ibishushanyo bigaragaza indangagaciro na kirazira bitandukanye biranga abaturage.

Ni ishuri rinini cyane ndetse abarimu bakorera kuri iki kigo cy'ishuri ryisumbuye bahuriye hamwe aho bari kuganira ku bigendanye n'uko bateza imbere imyigishirize yabo mu buryo bunoze.

Abarimu bigisha mu mashuri yisumbuye bamba amataburiya y'umweru, bahagaze iruhande rw'ishuri ndetse imbere yabo hari jaride. Barishimira igikorwa cyiza bagezeho mu kwigisha ndetse bahawe igihembo cy'imashini.

Ni abanyeshuri biga mu mumashuri yisumbuye biganjemo abakobwa ndetse n'abahungu, bambaye inifomu y'ishuri igizwe n'udupira tw'ubururu ndetse n'amakabutura y'umukara aho bari kugenda ku murongo bakora urugendoshuri rwo kureba ibidukikije bizengurutse ikigo k'ishuri bigaho.

Umwarimu wambaye ijipo itukura ndetse n'itaburiya y'umweru wigisha mu mashuri yisumbuye arimo guhereza umwana indangamanota bigaragara ko anejejwe cyane n'amanota meza uyu munyeshuri yagize muri iki gihembwe cyo kwiga.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, biganjemo abahungu n'abakobwa, bambaye inifomu nziza cyane imipira y'umuhondo ndetse n'amapantaro n'amajipo bya kaki, bari mu rugendo shuri aho bagenda bitegereza ibibakikije.

Ni umwarimu wigisha mashuri yisumbuye, aho ahagaze imbere y'abanyeshuri be, abaganiriza ku bigendanye n'imyitwarire myiza y'umunyeshuri.

Ni abanyeshuri bato biganjemo abakobwa n'abahungu, bambaye imipira y'ubururu ndetse bamwe muri bo bambaye amashati y'umweru n'udupira tw'umuhondo, barimo baragenda ku murongo, bari mu rugendo rw'ishuri ku bigendanye n'isomo ryo kwiga ibidukikije.

Ni inyubako nziza cyane isize irangi ry'umuhondo ndetse imiryango yayo ifite ibirahuri byiza cyane, ishushanyijeho ibishushanyo bitandukanye bigaragaza amagambo aranga umuco gakondo w'abanyarwanda.

Aba ni abanyeshuri ba kaminuza biganjemo urubyiruko cyane cyane abasore n'inkumi bari kuzamuka kuri esikariye harimo abiga kaminuza ndetse n'abiga ubumenyi ngiro.

N'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kugaragaza no gusigasira umuco gakondo w'abanyarwanda, byiganjemo ibiseke, ibibindi ndetse n'indi mitako itandukanye yifashishwaga mu gutaka ingo zo hambere.

Ni ahakorerwa imirimo y'ubugeni itandukanye aho abiga gukora imirimo itandukanye y'ubugeni bagerageza kubumba ishusho y'umuntu ndetse bakanagerageza kumushyiraho ibice bitandukanye, ni byiza kwiga gukora imirimo y'amaboko.

Ni abanyeshuri bashoje amashuri ba kaminuza bambaye amakanzu y'umukara ndetse n'ingofero, bashimishijwe cyane no kugaraduwetinga basoza amasomo yabo ya kaminuza.

Ni umukobwa uhagaze iruhande rw'urugi ufite imisatsi ya menshi, wambaye ipantaro ndetse n'inkweto bisa. Ahagaze iruhande rw'inzu kandi bigaragara ko ari umunyeshuri.

Ni abanyeshuri bakuru biganjemo urubyiruko rw'abasore n'inkumi, aho bari kwigishwa n'umwarimu w'umumama. Arimo arabasobanurira, bombi bafite amakayi, bamuteze amatwi kandi bandika.

Ni imashini zicometse ziri ahigirarwa ubumenyi n'ikoranabuhanga, zifashishwa mu kwigisha abanyeshuri ba kaminuza ku bigendanye n'ikoranabuhanga ndetse na tekinoloji.

Ni abanyeshuri bambaye amakanzu y'imikara ndetse ariho n'amabara y'imihondo ku ijosi, bahanitse ingofero zabo bigaragara ko banejejwe cyane no kugaraduwetinga, ku munsi wabo wo gusoza amashuri ya kaminuza.